Uburezi bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda. Icyumba cy'ishuri gitewe irangi risa umuhondo, harimo ibitabo bipanzwe ku meza, harimo umurezi wabo ufite agakarito karimo ingwa.

Uburezi bufite ireme bwageze kuri bose mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ikigo cy'amashuri cyubatswe neza cyane cyubakishijwe amatafari ahiye, kikaba gisakajwe amabati y'ubururu, imbere hari abanyeshuri bambaye impuzankano, imipira isa umuhondo n'amajipo y'umukara, hari abarezi babo bahagaze imbere y'ubusitani.

Uburezi bufite ireme bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda. Isomero ririmo ibitabo bigiye bitandukanye bimwe bisa umutuku, icyatsi, umuhondo, harimo intebe ndetse hari n'indi yicayeho umuntu uri gusoma igitabo.

Uburezi bufite ireme bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda. Inyubako y'amashuri yubakishijwe amatafari ahiye, hicayemo abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo ubururu, buri umwe afite igitabo ari gusoma kandi bafite na mudasobwa imwe hagati yabo.

Uburezi bufite ireme bwatugejeje kuri byinshi. Ikigo cy'amashuri cyubatswe neza cyane, cyubakishijwe amatafari ahiye, gisakajwe amabati atukura. Imbere hari ubusitani bwiza burimo indabo z'amoko zigiye zitandukanye. Hari abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo ubururu n'umutuku.

Uburezi bufite ireme bwageze kuri bose, inyubako yubakishijwe amatafari ahiye ikaba itewe irange ry'umuhondo, hariho icyapa bifashisha bigisha abanyeshuri kigiye gishushanyijeho ibiganza ndetse hari umunyeshuri uhahagaze wambaye impuzankano yiganjemo umukara n'umweru.

Uburezi bufite ireme bwageze kuri bose mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Umuhanda mugari cyane, ushashwemo amabuye, harimo abanyeshuri babiri bafatanye ku runana, bambaye impuzankano yiganjemo ubururu ndetse bahetse n'ibikapu bidozwe mu bitenge.

Uburezi bufite ireme bwageze kuri bose. Ishuri ryubakishijwe amatafari ahiye, harimo abanyeshuri bicayemo, ndetse hari abandi bafite amasahani bari kugenda baruriraho ibiryo. Ibase irimo imboga, ndetse hari n'ibikapu bibitse mu ntebe.

Uburezi bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda. Inyubako y'amashuri isakaje amabati atukura, ku madirisha no ku nzugi hasize irangi risa icyatsi, imbere hari ubusitani bwiza cyane burimo indabo zitandukanye, n'abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo umweru.

Uburezi bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda, inyubako y'amashuri yubakishijwe amatafari ahiye, asakajwe amabati atukura n'ubururu, imbere mu kibuga cy'aho hari abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo ubururu.

Uburezi bufite ireme bukomeje guteza imbere Igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ikigo cy'amashuri gisakajwe amabati y'ubururu ahandi hasakajwe amategura. Mu busitani bw'aho hahagaze abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo umukara n'umweru.

Uburezi bufite ireme bukomeje guteza imbere Igihugu cyacu cy'u Rwanda, ikigo cy'amashuri cyubakishijwe amatafari ahiye, kikaba gisakajwe amabati y'umweru, imbere mu busitani hahagaze abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo umutuku.

Uburezi bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda. Inyubako y'amashuri yubakishijwe amatafari ahiye, ikaba isakajwe amabati y'ubururu. Hari icyapa kigaragaza uko ikigo cyitwa. Imbere hari abanyeshuri bambaye imipira y'icyatsi, ndetse hari n'ubusitani bwiza cyane.

Uburezi bufite ireme bwageze kuri bose. Inyubako itewe amarange asa umukara, hicayemo abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo umukara n'umweru. Buri umwe afite ikayi imbere ye n'ikaramu mu ntoki.

Uburezi bukomeje kuba inkingi y'iterambere rirambye mu Rwanda rwacu, amashuri meza cyane yubakishijwe amatafari ahiye, asakajwe amabati y'ubururu, imbere y'aho hari ubusitani bwiza cyane ndetse n'abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo ubururu n'umweru.

Uburezi bufite ireme bwageze kuri bose. Ikigo cy'amashuri gisakajwe amabati y'ubururu, cyubakishijwe amatafari. Imbere mu kibuga hari abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo icyatsi n'umukara. Buri umwe afite matera, indobo, ibikoresho bafite ni byinshi. Imbere hari imodoka ihaparitse.

Uburezi bufite ireme bwageze kuri bose. Inyubako nziza cyane, itewe amarangi y'ubururu n'umweru, hicayemo abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo ubururu n'umweru, buri wese ari gutera urutoki hejuru.

Uburezi bufite ireme bwageze kuri bose, umuhanda mugari cyane uri kugendwamo n'abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo: umweru, umukara n'ubururu, imbere yabo hari ibiti, ndetse n'impande yawo hari inzu zubakishijwe amatafari, n'izindi zitewe irangi risa umweru.

Uburezi bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ikigo cy'amashuri cyubatswe neza gishakaje amabati y'ubururu, cyubakishijwe amatafari ahiye. Imbere hari icyapa kigaragaza aho ikigo giherereye n'uko cyitwa, kikaba giherereye mu Karere ka Huye cyitwa Indatwa n'Inkesha. Impande yaho hari ubusitani bwiza cyane burimo indabo z'amoko atandukanye.

Uburezi bukomeje guteza imbere Igihugu cyacu cy'u Rwanda, ishuri ryubatse neza cyane ryubakishijwe amatafari ahiye, inyuma hari icyapa kigaragaza aho ishuri riherereye i Save mu Karere ka Gisagara mu Ntara y'Amajyepfo, hahagaze abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo umukara n'umweru.

Uburezi bufite ireme bwageze kuri bose mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Inyubako y'amashuri yubakishijwe amatafari ahiye, ndetse ikaba isakajwe amabati y'ubururu. Imbere yaho hari abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo ubururu n'umweru, n'icyapa cyanditseho amagambo, kigaragaza aho ikigo giherereye i Gikongoro.

Inyubako nziza cyane itewe amarangi, hamanitse imyenda iri mu mu mabara atandukanye nk'umukara, ubururu n'umweru, hari igitanda gishashwe neza kiriho ibitambaro byiganjemo amabara y'umweru n'icyatsi.

Inyubako nziza cyane itewe irange risa umweru, hamanitseho indorerwamo itatseho indabo zitukura, imbere yaho hari ameza ndetse hari n'ubukarabiro, hahagaze umuntu ushaka gukaraba.

Ubu burezi bufite ireme bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda. Inyubako nziza cyane isakajwe amabati y'ubururu, ikaba itewe irangi risa umweru, ikaba yubakishijwe amatafari ahiye. Imbere yaho ku kibuga hari imodoka zihaparitse ndetse n'ubusitani bwiza cyane, iyi nyubako ikaba iherereye mu karere ka Huye mu majyepfo.

Uburezi bukomeje guteza imbere Igihugu cyacu cy'u Rwanda. Inyubako nziza cyane isakajwe amabati atukura, ikaba itewe amarangi y'umweru n'umukara. Imbere yaho mu busitani hanitsemo imyenda iri mu mabara atandukanye nk'umukara, umweru, umutuku n'umuhondo. Hahagazemo umuntu wambaye imyenda y'umukara.

Uburezi bufite ireme bukomeje guteza imbere abaturarwanda ndetse n'igihugu muri rusange, inyubako y'amashuri yubatswe neza cyane, isakajwe amabati y'ubururu, itewe irange risa umweru ndetse yubakishijwe amatafari, imbere y'aho hari ubusitani bwiza cyane bwanitsemo imyenda.

Inyubako nziza cyane itewe amarange y'umweru ku nzugi hakaba hari irange risa umukara, hakikishijwe n'ibiti by'amoko atandukanye ndetse n'ubusitani burimo indabo zigiye zitandukanye, umuhanda uri hagati y'ibiti haparitsemo imodoka.